Uyu muntu ahagaze mu bandi bantu bari bicaranye ariko ikimuhagurukije ashobora kuba ari kubazwa ibibazo cyangwa se ari gutanga icyifuzo k'inama bari gukora kuko ikigaragara cyo aba bantu bose bateranye gutya ndakeka bari mu nama.

Aha naho ndahabona abantu benshi bateranye bigaragara ko bateraniye mu nama, harimo abapolisi abatari abapolisi, ndetse imbere yabo hari umu mama bigaragara ko ari kubasobanurira ibintu bigiye bitandukanye, kuko afite mikoro bigaragara ko afite intumbero y'ibyo ari kubabwira kandi byiza.

Nkuko mbibona, ndahabona imodoka, ndahabona abantu bambaye neza cyane, bambaye imyenda gakondo, bari kubyina imbyino nyarwanda, rwose ndahabona umukuru wabo uri kubaterera indirimbo, ndahabona amahema meza, ndetse na jaride nziza. Ndetse n'ibikorwa remezo by'amashanyarazi, ni byiza cyane ibiti bitohagiye, haragaragara neza.

Aha naho hari umutekinisiye cyangwa se umwenjeniyeri mu bijyanye n'amashanyarazi, ari gukemura ibibazo bigiye bitandukanye bigaragara ko umuriro wabuze kugira ngo yongere aduhe umuriro.

Aha naho haragaragara abantu bari gukora ibijyanye n'umuriro w'amashanyarazi, kuko ibi byuma uko mbibona ni iby'amashanyarazi. Ni ibyo twita amataransifa agemura imiriro hirya no hino hatandukanye mu duce.

Aha na ho ifoto yaho iragaragaza uburyo ki amashanyarazi bayestaye ,uburyo tubonamo umuriro, ibintu baba baragiye bahuzahuza nk'abantu babyize. Ariko twe nyine iyo tubibonye turavuga ngo ni esitarasiyo y'amashanyarazi yo mu nzu.

Aha na ho ni ku mupaka w'u Rwanda na Congo uko mbibona ndabona hari bariyeri z'ibyuma bifite amarangi atukura ndetse n'umweru ndetse n'ikigabanya Igihugu n'ikindi, impande y'aho hari abantu bari gutambuka, umusaza umwe we afite imbago bigaragara ko acumbagira se cyangwa yavunitse.

Aha naho hari umugabo uri ku igare, uwo mugabo aragenda mu muhanda w'igitaka, uwo muhanda ukikijwe n'ibyuma bigaragara ko ari mu gishanga, kuko uyobye wahita ugwa mu mazi, bigaragara ko ari ikiraro kiri mu gishanga.

Aha naho ho turahabona abantu babiri bicaye mu nzu. Inzu ikikijwe n'amabati y'ubururu ndetse n'asakaye ni ubururu. Impande yayo hari tuwarete. Icyo twita ubwiherero, hirya yaho hari umu mama nawe uhagaze, mu rugo rwe, ku irembo.

Aha naho haragaragara abantu, abantu bigaragara ko bicaye ku murongo umwe kandi bose hari icyo bari kureba, bigaragara ko bateranye kugira ngo bige ku kibazo cy'umuntu cyangwa se ku bibazo bigiye bitandukanye, ikigaragara cyo bicaye nk'abari mu nama.

Aha naho turahabona abantu babiri ariko inyuma yabo hari abandi bantu babiri bahagararanye, umwe afashe ku kagozi n'undi agafasheho ariko ikigaragara cyo ni nk'ahantu bagiye gufungura kuko ni umuzungu ndetse n'umwirabura bahagararanye bigaragara ko bagiye gufungura aho hantu mu gihe bahatashye.

Nkuko bigaragara aha ni ku kigo cy'amashuri, hari abaturage bateraniye ahantu munsi y'igiti ndetse inyuma yaho hari amashuri, hari inyubako y'amashuri kandi ikigaragara cyo ni abaharerera cyangwa se ni ababyeyi bafite abana biga kuri icyo kigo, bahateraniye.

Aha na ho hari imodoka iri kugenda mu muhanda, umuhanda mwiza cyane wa kaburimbo ugezweho ndetse aho iri guturuka, inyuma y'aho, inyuma yayo hari amazu meza ndetse n'impande yayo hari ibiti byiza ndetse na jaride n'akayira k'abanyamaguru keza cyane gakikijwe n'uwo muhanda.

Aha naho ndahabona umumotari utwaye moto mu muhanda mwiza wa kaburimbo, impande ye hari inzu zigaragara z'ubucuruzi bugiye butandukanye kandi inyuma ye hari indi modoka imukurikiye ndetse n'abanyamaguru bari kugenda muri iyo mihanda.

Aha naho nk'uko bigaragara hari ibyapa byo ku muhanda, ibiti biteye ku muhanda binini ndetse n'ipoto iriho imigozi y'amashanyarazi. Impande yaho naho hari inzu zigiye zitandukanye z'ubucuruzi.

Aha naho hari imodoka zitwara abantu muri rusange, izo twita amabisi, ziparitse hamwe kandi zigaragara ko zitwara abantu mu misozi igiye itandukanye, izi ni imodoka za rusange mutega kugira ngo mugere muru rugo.

Aha naho haragaragara ko ari abahinzi benshi kandi batandukanye, ikigaragara cyo uyu ni umuganda. Ntabwo bari guhinga mu murima, oya ahubwo bigaragara ko, bari nko mu muganda rusange bari guhiga ahantu bazaza banyura icyo twita umuhanda.

Aha na ho turabona abantu bahagaze mu gisambu ariko ikigaragara cyo icyo gisambu ntabwo ari igisambu ahubwo ni umurima w'amasaka ariko bikoreye ibintu wagira ngo ni amabuye ariko ikigaragara cyo wagira ngo ni imyungu.

Aha naho hari abantu benshi, bahuriye mu gikorwa kimwe. Bigaragara ko wagira bari guca umuhanda ariko uko mbibona, nge ndabona ari nk'umuganda rusange bajemo kugira ngo bashake inzira se cyangwa bari gukora igikorwaremezo.

Aha naho hicaye abantu, abantu bagaragara ko bari mu nama, ndetse ikigaragara cyo birashoboka ko ari inama y'umutekano, kuko ndabona uhagarariye polisi yahagurutse, ubanza ari gusobanurira abaturage, inyuma ye hateye indabo ziri ku murongo, hirya ye hari inzu nziza inyuma yabo, hirya cyane hari ishyamba, ndetse hateye n'ibigori n'insina.

Aha naho turahabona abantu benshi batandukanye ariko ikigaragara cyo ni nk'abantu bagiye bagirana amakimbirane. Impanpande yaho harimo amabuye, arundanya ndetse n'abantu benshi bashungereye.

Aha naho hari abantu bicaye ku murongo umwe ariko ikigaragara cyo, bameze nk'abari mu nama y'umutekano kuko harimo abasirikare, umupolisi ndetse n'abandi baturage ariko b'abayobozi.

Nkuko bigaragara hano hari abantu benshi, hari umumama wambaye umupira w'umweru bigaragara ko ari umuyobozi uri kubambika imidari ndetse ari kubambika imidari, uko mbibona ndabona ari amakipe yari yahuye ari gukina noneho imwe igatsinda iyatsinze bakaba ariyo bari kwambika imidari, rero hari abantu bari kureba cyane ndetse muri rusange barishimye.